Umujyi uhoramo urujya n'uruza rw'abantu benshi batandukanye: abagabo, abagore ndetse n'abana, ntabwo ari ibyo gusa ahubwo ni ho hantu usanga hari ibinyabiziga byinshi cyane, akenshi tuhasanga n'utuzu dufite amabara y'umuhondo tuzwi nk'aho abakozi ba MTN batangira serivisi zitandukanye.